Inzu nini irimo abantu benshi, basa mwari ikiganiro bategereje bari guhabwa, umugore wambaye ikoti ry'umukara afite ikaramu mu ntoki asa nkaho hari ibyo arikwandika, umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ndetse imbere akaba yari icupa ry'amazi na telefone n'umugabo wambaye ikoti ry'umweru n'amarinete, imbere yabo hakaba hategetsemo keretse icupa ry'amazi n'umumama wambaye umupira w'umukara.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Inzu nini ibereyemo inama umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse na karuvati y'ubururu rero hakaba ari indangururamajwi, umugabo wambaye ishati y'ubururu umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, imbere hakaba hari mudasobwa, icupa ry'amazi ndimo ndabona undi mugabo wambaye ikoti ry'umweru.

Aha ni mu mujyi wa Kigali, aho tubona hari umugabo uri mu muhanda agenda. Hirya yaho hari ibiti bisa nk'aho ari amawuwa, ndetse n'inzu ndende isa nk'ikorerwamo serivisi zitandukanye...

Hano bigaragara ko ari inzu nini isa nkaho bafungiramo abantu bakoze bimwe mu byaha bitemewe n'amategeko agenwa na leta. Ndetse nk'aba mbonamo ari abagabo barindwi hirya yabo hari akazu karimo umucungagereza.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, ryandikijije ibara ry'umukara, kizengurukishijwe n'ibara ry'umutuku, kigaragaza umuvuduko imodoka zigenderaho.